Abana benshi cyane batoya, bicaye ku musambi, bari mu irerero, bafite ibikombe bifite amabara atandukanye bari kunywa igikoma, iruhande rwabo muri iyo nzu barimo hari imari isa icyatsi, ndetse ku gikuta hamanitseho n'ibishushanyo byinshi bibafasha mu kwiga.

Abana ni ishema ry'umubyeyi, kandi ni nabo bazungura Igihugu cyacu cy'u Rwanda, aba bana bicaye ku musambi ahantu bigira mu irerero, kandi iryo rero rishushanyijeho ibishushanyo byinshi ku gikuta, ndetse n'ikindi kimwe gihagaze ukwacyo.

Abanyeshuri bakiri batoya b'abana bafite ibitabo mu ntoki biteretse ku meza, ibi bitabo aba bana bose bari kubirebamo bareba ibyanditsemo bagerageza kubisoma.

Abana benshi cyane, harimo abakobwa ndetse n'abahungu, ni abo mu kiburamwaka. Bambaye impuzankano, bafite utuntu mu ntoki bari gukoresha biga. Bari kureba inyuma yabo, bisa nkaho umwarimu wabo ari ho ahagaze.

Abarimu babiri b'abamama bari kumwe n'utwana dutoya twiga mu kiburamwaka. Bahagaze mu byatsi bari gukina imikino ishimisha abana, abo bana bambaye impuzankano.

Iri ni ishuri ryigisha abana bakiri bato b'incuke kugira ngo bakure bafite ubwenge. Hari abana benshi bicaye ku musambi hasi, bari kureba imbere ahari umubyeyi w'umumama, uri gutunga intoki ku kibaho, abereka ibintu yashushanyijeho ndetse anabibasobanurira, barangiza bakabisubiramo.

Umubyeyi wicaye hagati y'utwana twinshi twiga mu kiburamwaka, utwo twana kandi twicaye ku musambi, aba bana bicaye ahantu hari ubusitani bunini cyane kandi bwiza, bateze amatwi uyu mubyeyi ubarimo hagati uri kubasomera inkuru.

Abana benshi cyane bicaye mu kiziga, inyuma yabo hari ibigega by'umukara bibiri binini cyane bijyamo amazi mu gihe imvura iguye, inyuma yabo kandi hari iyindi nzu ituzuye neza yubakishijwe amabati ndetse n'ibyuma, aba bana bari kwitegereza uyu muntu mukuru ubarimo kuko niwe ufite ikintu cyo kubabwira.

Indangagaciro ziranga abanyeshuri biga ku rwunge rw'amashuri rwa Gatagara. Iki kigo ni ikigo kigiramo abanyeshuri bafite ibibazo mu buzima bwabo bwa buri munsi ndetse n'ubumuga runaka. Izi ndangagaciro kandi zirakenewe ku munyarwanda wese.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano, bari gukinira imbere y'amashuri yabo. Iruhande rwabo hari umuntu umwe utambaye iyo mpuzankano mukuru, wambaye umupira wa oranje ndetse n'ijipo y'igitenge. We ari kugenda bisa nkaho ari umwarimu wabo.

Ikigega kijyamo amazi avuye ku mvura. Iki kigega giteretse mu busitani bwiza cyane, kandi kizengurutswe n'ingo zigiye zitandukanye. Muri ubu busitani hahinzwemo igiti cy’amapera, kandi urabona ko nta muntu n'umwe uhari.

Abana benshi bicaye bishimye bari guseka. Bambaye impuzankano zitandukanye, abakobwa bambaye impuzankano zisa ubururu, abahungu bambaye impuzankano zisa kake.

Umwana w'umukobwa w'umunyeshuri wambaye impuzankano harimo ishati y'ubururu ndetse n'ijipo ya kaki, uyu mwana afite urukweto rumwe mu ntoki urundi ararwambaye, ahagaze imbere y'amashuri bigamo, afite ibuye mu ntoki, bisa nkaho ari gukina na bagenzi be.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri bafite mashini zikiri ntoya cyane zitangwa mu mushinga wa mashini kuri buri mwaka, uyu mushinga ni umushinga w'igihugu cyacu utuma buri mwana wese wiga mu kiburamwaka aba afite imashini kugira akure azi kuyireberamo maze igihugu cyacu gitere imbere byihuse.

Iki ni ikigo cy'amashuri gifite inyubako nyinshi zitandukanye, imbere y'izo nyubako hari abana bari kuhakinira, harimo abahungu ndetse n'abakobwa, abahungu bambaye impuzankano zisa kake, abakobwa bambaye impuzankano zisa ubururu, barishimye kuko bageze mu masaha yabo yo gukina.

Abana benshi cyane bavuye mu masomo, bambaye impuzankano, amashati asa ubururu ndetse n'amajipo n'amapantaro asa kake. Bambaye udukweto dutandukanye, bari gutaha bishimye bavuye ku masomo.

Imifuniko myinshi cyane harimo iy'inzoga, iya fanta ndetse n'akantu k'ubururu iyo mifuniko iteretseho, iyi mifuniko ni myinshi cyane kandi yavuye ku binyobwa bigiye bitandukanye: ibisembuye ndetse n'ibidasembuye.

Umubumbe ugaragaza ibice bigiye bitandukanye bigize Isi, iy'Isi yacu irazengurutse kandi izenguruka izuba, iminsi magana atatu na mirongo itandatu n'itandatu bityo buri gice cyose kigize uyu mubumbe kikagerwaho n'izuba mu gihe runaka.

Abana benshi cyane bavuye ku ishuri bambaye impuzankano, inyuma yabo hari ikigo kinini cyane kiza bari gusohokamo, inyuma y'icyo kigo kandi hari urusengero rwubatseyo runini cyane, rufite umusaraba hejuru rw'Abakatolike.

U Rwanda rwishimira cyane guteza imbere uburezi niyo mpamvu rwazanye umushinga wa One Laptop Per Child, buri mwana agire laptop yiwe imwe, uyu mushinga rero wahaye buri mwana aka laptop gatoya, aba bana bicaye hano muri iri shuri buri wese afite ako aka laptop kamwe areberaho kandi akigiraho ubumenyi.

Iyi ni inyubako y'ishuri, iri ahantu hari ubusitani bufite ibiti byinshi kandi birebire byiza, imbere kuri iyo nyubako hariho icyapa kiriho indangagaciro abanyeshuri biga muri icyo kigo bakwiriye kubahiriza.

Ishuri ririmo ibikoresho bitandukanye abanyeshuri bifashisha biga, inyuma hari akabati babikamo amakayi ndetse n'igikoresho bifashisha mu gukaraba intoki gisa ubururu, hari abanyeshuri bahicaye harimo abakobwa ndetse n'abahungu.

Abanyeshuri bicaye imbere y'ishuri bambaye impuzankano amashati y'umweru ndetse n'amajipo y'ubururu, aba banyeshuri kandi imbere yabo hahagaze umugabo wambaye imyenda ya gipolisi uri kubahereza ikiganiro ku buryo bashobora gufasha Igihugu mu kurinda umutekano.

Abanyeshuri benshi cyane bambaye impuzankano, harimo abambaye impuzankano z'umweru ndetse na kake, abambaye impuzankano amashati asa ubururu ndetse n'imyenda y'umukara yo hasi, hari n'abandi bambaye na karuvati, harimo umuntu ubahagaze hagati uri kugenda abaganiriza.

Inyubako y'ikigo runaka irimo amashuri menshi atandukanye, imbere y'iyo nyubako hari abanyeshuri bambaye impuzankano zisa ndetse n'umwarimu wabo utambaye imyenda isa n'iyabo, imbere ya rino shuri hari ubusitani bwiza cyane kandi iruhande rw'aho hamanitse idarapo risa umuhondo n'umweru ndetse n'idarapo ry'igihugu cyacu cy'u Rwanda

Uburezi ni kimwe mu bintu bituma Igihugu icyo aricyo cyose gitera imbere. Kuko iyo abantu bamaze kwiga bagasohoka bakajya ku isoko ry'umurimo bagatangira gukora utuzi bashingiye ku bintu babigishije bituma Igihugu kigera ku iterambere mu buryo bwihuse. Aba rero ni abanyeshuri bambaye impuzankano z'umweru ndetse n'ubururu bitegereza umuntu ubahagaze imbere afite indangururamajwi ari kubaganiriza.

Abanyeshuri bavuye ku mashuri bari kugenda mu muhanda, abanyeshuri bambaye impuzankano bitewe n'ahantu biga, hari abiga mu mashuri yisumbuye ndetse harimo n'abiga mu mashuri abanza.

Ahantu hari imiti myinshi yifashishwa kwa muganga. Kandi hari n'ahantu umuntu ashobora gukarabira intoki. Hari n'utubati twinshi cyane duterekwamo iyo miti. Izi ni serumu zongera imbaraga, amazi, ndetse n'umunyu mu mubiri w'umuntu mu gihe yacitse intege arwaye.

Abanyeshuri benshi cyane bambaye amashati y'imyeru ndetse n'ibyo hasi bisa kake, bose bambaye udupfukamunwa, bicaye mu busitani ahantu hari ibiti byiza cyane, imbere yabo hahagaze abantu babiri bari kubahereza ibiganiro, kandi abo bantu ni bakuru barabaruta.

Abanyeshuri bambaye amashati y'imyeru ndetse n'amajipo y'ubururu bicaye mu ishuri bari kureba umwarimu wabo ubari imbere w'umugabo. Uyu mugabo yambaye imyenda irimo umupira w'umutuku, aciyemo uturongo tw'umukara ndetse n'umweru ari kwandika ku kibaho amasomo ari kubigisha.

Umugabo uhagaze ahantu hari mudasobwa zisa umweru kandi nyinshi cyane. Izi mudasobwa kandi ziri mu ishuri, muri iri shuri kandi harimo imeza ndetse n'intebe byifashishwa n'abanyeshuri mu gihe bari kwiga.

Ahantu hari ikibuga cy'umupira w'amaboko, uyu mupira w'amaboko mu ndimi z'amahanga uzwi nka Basketball, hari ikibuga cyiza, gisa neza, kiri mu busitani ndetse hari n'ibiti birebire cyane byakuriye inyuma y'icyo kibuga.

Abanyeshuri benshi cyane bavuye ku masomo bambaye impuzankano, amashati asa ubururu bw'ikirere ndetse n'amajipo asa kaki. Bose bahetse udukapu, harimo abafite ibitambaro mu mutwe ndetse n'abatabifite. Imbere yabo hari abasore bisa nkaho babarushije intambwe bakabasiga.

Abasore benshi cyane bagiye gukina umukino w'amaboko uzwi nka Basketball, ni amakipe abiri bamwe bambaye amasengeri asa ubururu n'amakabutura y'umukara, abandi bambaye amasengeri y'umuhondo ndetse n'amakabutura y'umuhondo arimo utubara tw'umutuku, mu abo bambaye umuhondo kandi harimo n'abandi bambaye imyenda idasa n'iy'abandi.

Zimwe mu modoka nyinshi ziba mu Rwanda, zitwara abanyeshuri bavuye kwiga cyangwa se bagiyeyo, aba banyeshuri bambaye impuzankano, bamwe bambaye amashati y'ubururu n'amajipo ya kake, abandi bambaye amashati y'imweru ndetse n'amajipo ya kake kandi bose bahetse ibikapu, bari kurwana no kwinjira muri ino modoka.

Abanyeshuri benshi cyane bicaye mu ishuri, bateye intebe mu buryo baba barebana neza mu maso, aba banyeshuri bicaye mu ishuri ririho ibibaho, harimo umukara ndetse n'akabati ko gushyiramo amakaye yabo.

Abana benshi cyane bambaye impuzankano, bicaye mu byatsi, imbere yabo hahagaze abagabo babiri ndetse bari kureba inzu imbere yabo, aba bana bambaye amashati y'imyeru, amapantaro y'ubururu ndetse n'imipira y'ubururu, bamwe bubitse imitwe mu maguru, abandi bari kureba imbere.

Abanyeshuri bambaye impuzankano, amashati y'umweru ndetse n'amapantaro y'ubururu, bifite ibipapuro mu ntoki ndetse n'amakaramu, bose bari kureba kuri izo mpapuro, bari kugerageza gutegura ikizamini bafite, inyuma yaho hari ahantu abantu bakarabira intoki, aba banyeshuri urabona ko bitaye ku masomo cyane.

Abagabo benshi cyane bambaye amataburiya asa ubururu bari gupima igisenge cy'inzu, aba bagabo bari ahantu hari inyubako nyinshi cyane kandi nziza kandi bose bambaye utugofero dusa umuhondo.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri kandi aba banyeshuri ni abo mu mashuri yisumbuye, bari kureba hasi bari kwandika, imbere yabo hahagaze umwarimu wambaye itaburiya y'umweru, uri kureba ikintu buri munyeshuri ari gukora.

Gare ibamo imodoka nyinshi zigiye zitandukanye ndetse n'abantu benshi batandukanye, aba bantu kandi bari gukaraba intoki birinda indwara z'ibyorezo, harimo nka kovide ndetse n'izindi ndwara zishobora kwandurira mu matembabuzi, cyane cyane aciye mu ntoki.

Abanyeshuri bari kwiga uburyo bwo gukoresha ibyuma bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga, aba banyeshuri baricaye ndetse harimo na bamwe bahagaze bambaye amatabuririya asa ubururu, iki cyuma bari kwigiraho ni icyuma kinini cyane kandi gikora ibintu byinshi bigiye bitandukanye.

Umwarimu uhagaze imbere y'abanyeshuri, ari kubigisha imibare, uyu mwarimu kandi, ari kwandika imibare imbere ku kibaho, harimo ibiro, ndetse n'indi mibare irimo amafaranga, uyu mwarimu yambaye agapfukamunwa gasa ubururu, ndetse n'itaburiya y'umweru, ari kwandika ku kibaho gisa umukara.

Inyubako iri ahantu mu kigo runaka kizengurukijwe n'ibyuma, inyuma y'iyi nyubako hari igiti kiri guhera gifite uturabo dusa oranje kandi cyiza cyane, imbere kandi na ho hari ibiti bituma abantu bari muri ino nyubako bagira ubuzima bwiza.

Abantu benshi cyane bari mu nama abagabo ndetse n'abagore bambaye udupfukamunwa, imbere yabo ku meza zihari hateretseho amacupa y'amazi ndetse na mudasobwa, hari n'ahateretse icupa rya fanta.

Icyumba kibamo abanyeshuri hari imeza n'intebe ebyiri zo kwicaraho, hari igitanda kiri hirya gishashe neza kiriho n'ibikuvurori byo kwiyorosa ndetse ku meza hateretse n'imashini, telefone icometse ndetse n'umugozi wo gucomekesha iyo mashini.

Ubusitani bwiza cyane burimo ibiti birebire, inyuma yubwo busitani hari inyubako kandi aha rwose ni muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, aha hantu harangwa no kuba haba imbeho ndetse n'banyeshuri benshi, kandi iyi mbeho akenshi iterwa no kuba hari ishyamba rinini cyane ryitwa aruberito.

Icyapa kigaragaza kaminuza y'u Rwanda, ishami rya Huye, kiri ahantu mu kigo, aha hantu kandi hateye n'ubusitani, hari n'ibiti birebire cyane ariko hari n'umuhanda.

Ishuri riri muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, hari umunyeshuri uryicayemo afite mudasobwa imbere ye, amatara arikwaka ndetse hari n'ikibaho kimuri inyuma gisa umweru.

Abanyeshuri benshi cyane bo muri Kaminuza bahagaze imbere kuri sitade, aba banyeshuri inyuma yabo hari indangururamajwi kandi bamwe bahagaze imbere bari kuririmba, abandi bahagaze inyuma bari kureba abari imbere yabo.

Inyubako nini irimo amabara yiganjemo shokora, iteye muri pasiparume ahantu hari ubusitani bunini kandi bwiza. Inyuma yaho hari ibiti byinshi kandi birebire, hirya yaho hakaba hari udutebe umuntu ashobora kwicaramo mu gihe ananiwe.

Ibiganiro biri gukorerwa abanyeshuri ku bijyanye n'uburyo bashobora kwiteza imbere, ibi biganiro biri gutangwa n'ikigo cyigisha ibintu bya tekinike cyitwa RP, imbere hari abanyeshuri benshi cyane bari gusobanurirwa uko bashobora kwiteza imbere bihangira imirimo.

Inyubako nini cyane igeretse kabiri, iyi nyubako ni nziza iri ahantu hari ahantu abantu bashobora kwanika mu gihe bameshe imyenda, aho hantu kandi hari ubusitani bushobora kuramira imyenda mu gihe yaba yikubise hasi.

Icyumba kiba muri zimwe mu macumbi y'abanyeshuri aba muri Kaminuza nkuru y'u Rwanda, iki cyumba kandi ni icyumba cya Nyarutarama kirimo inkweto ziteretse hasi ndetse hari na tapi umuntu akandagiraho kugira ngo atandure ibirenge.

Icyumba kiba mu nyubako yitwa viyete muri kaminuza nkuru y'u Rwanda, iki cyumba kiriho matora irashashe neza cyane hariho amashuka meza ndetse n'ikiringiti cyo kwiyorosa hariho n'umusego wa Rwandafomu, kandi iruhande rw'icyo gitanda hari purize icometseho hasi hari akantu kirukana imibu.

Inyubako iteretsemo intebe nyinshi cyane ziri hanze, izi ntebe harimo izisa icyatsi, harimo izisa umukara kandi ku gikuta hamanitse icyuma gishinzwe kuzimya umuriro kizwi nka kizimyamwoto mu ndimi z'amahanga.

Muri kaminuza nkuru y'u Rwanda, aha ngaha ni imbere y'inyubako yitwa Jimunaze ikorerwamo imikino y'intoki ndetse n'indi myidagaduro ijyanye na siporo, inyuma y'iyo nyubako haparitse imodoka ebyiri, kandi hari n'abantu benshi cyane bahahagaze.

Iyi ni inzu ikorerwamo imyidagaduro, cyane cyane siporo, iyi nzu yitwa Jimnez, iherereye muri kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye, hahagaze abantu benshi bari kureba umukino ndetse hari n'ibyapa byamamariza MTN bivuga ibikorwa byayo.

Abantu benshi harimo abagabo ndetse n'abagore, bicaye bandika utuntu ku dupapuro. Bose bafite amakaramu mu ntoki, imbere yabo hateretse ji ndetse hamwe muri ho hateretse n'amazi.

Abantu benshi bari mu nama, imbere yabo hateretse Mudasobwa ziteretse ku meza, bari kureba imbere bakurikira ibyo bari kubabwira, bamwe muri bo ni abagabo, abandi ni abagore, bicaye mu nzu nini ubo yuko bitaye ku byo bari kuvuga.

Abantu benshi cyane harimo abahungu ndetse n'abakobwa bicaye, bari kureba umugore ubahagaze imbere wambaye ikanzu y'umukara, uri kubahereza ikiganiro, imbere yabo hateretse ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga harimo mudasobwa ndetse na porojegiteri.

Icyumba kirimo imeza ndetse na mudasobwa byifashishwa mu kongera ubumenyi bw'abanyeshuri, icyumba kandi kirimo n'ama ecra maremare cyane meza amanitse ku bikuta, ashobora kwifashishwa mu kwerekana amashusho manini cyane kandi meza.

Zimwe mu nyubako ziri muri kaminuza nkuru y'u Rwanda, izi nyubako zigiramo abanyeshuri biga amategeko, kandi hirya yaho hari inzu y'imyidagaduro yitwa Main Auditorium, aha hantu hari ubusitani bwiza ndetse harasa neza cyane haratuje.

Abantu bari kureba kuri mudasobwa umwanya munini, imbere yabo hateretse ibipapuro ndetse n'amakaramu bashobora kwandikisha mu gihe bize ikintu cyiza runaka. Aba bantu harimo abagabo ndetse n'abagore n'abakobwa, bose urabona ko bari kureba imbere bameze nk'abantu bari gukora ikizami.